Mu nama zitandukanye abayobozi bakangurira gahunda za leta abaturage, harimo nko gukora umuganda, harimo gukangurirwa gukora ibikorwa bigendanye no kuremera abatishoboye, gukora ibikorwa bigendanye n'umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hamwe n'umufatanyabikorwa yuwesaidi, ukomoka muri Amerika, abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda, bizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Mu biro bitandukanye cyane cyane nko mu nteko ishinga amategeko, bateranira hamwe bakiga ku cyagirira akamaro abaturage, urugero mu bigendanye n'iterambere, imibereho myiza y'abaturage gahunda zerekeye icyerekezo cya bibiri na mirongo itanu ndetse n'izindi.

Ku bufatanye n'ibigo bitandukanye hizihizwa umunsi mpuzamahanga ku rwego rw'isi wahariwe ubukerarugendo, aho uwo munsi mu Rwanda, wizihizwa buri wese akagira uruhare mu kwishimira ibyagezweho mu rwego rw'ubukerarugendo.

Hirya no hino, abaturage bafashwa uburyo bwo kugira ngo babone ikoranabuhanga rigezweho, by'umwihariko mu bigendanye n'itumanaho. Aho bubakirwa iminara kugira ngo bage babona uko bakoresha ikoranabuhanga, ribafasha kuganira n'abantu bari ahantu kure.

Hamwe na serivisi z'Irembo, hajeho uburyo bushya abantu bashobora gusaba icyemezo muri Minisiteri ifitiye uburenganzira ubutabazi. Aho icyo cyiciro kireba abinjira ndetse n'abasohoka. Aho umuntu ashobora gushyiramo amazina ye ndetse n'imyirondoro imwerekeye, kugira ngo agire uburenganzira ku iyo serivisi.

Mu gitabo cy'amategeko cyane itegeko ryo ku wa makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani rivuga ku gukoresha igitinyiro, iyo rihamije umuntu ko yakoze ibintu agamije inyungu ze cyangwa iz'undi muntu, icyo gihe aba akoze icyaha.

Muri gahunda z'ububanyi n'amahanga perezida yacyira abashyitsi bagendereye igihugu cyacu akanabaha ikaze aho abereka bimwe mu byiza nyaburanga ndetse n'aho u rwanda rwavuye ndetse n'aho rugeze.

Mu byapa biyobora abantu, hari icyerekana ahari umuhanda uri gukorwa, aho cyibutsa buri wese ko aba agomba kwitondera ko agiye kugera aho hantu hari gukorwa umuhanda, cyangwa se ibindi bikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

Inyubako za leta zishobora kwifashishwa mu duce dutandukanye, aho abakerarugendo cyangwa se abashoramari bashobora kuzifashisha bazibamo, mu gihe bari mu gihugu bakeneye aho kuba.

Mu duce dutandukanye, abaturage babona serivisi z'ibanze bakenera, aho bakeneyemo imiturire igezweho, bakeneye amazi ndetse n'ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, uko bagenda babikenera bitewe n'aho baherereye.